Inyubako nziza ifite amakaro ku mpande, ifite n'ibirahuri, ifite n'amadirishya y'ibirahuri by'umukara, isakaje amabati y'icyatsi. Hejuru hariho icyapa kimanitseyo, gisa naho kigiye kumera nka tereviziyo.

inzu nziza yubatse isize amakaro afite irangi ry'umuhondo. iIite ibirahuri, urugi rwayo rurakinze, imbere yaho hariho pisine.

Umunyeshuri uhagaze impande ya pipitire, arambitseho ibikoresho bye. Hasi ya pipitire harimo agafuka atwazamo ibikoresho byo kwigana. Yambaye itaburiya y'umweru, asa naho agiye gutangira gukora igikorwa cyo kwandika.

Abanyeshuri bicaye imbere yabo hateretse ibyuma bya mudasobwa ari kwiga ikoranabuhanga, ikoranabuhanga rigezweho igihe kiri imbere abantu bose bazaba bari gukoresha ikoranabuhanga.

Intebe nyinshi zitondekanye zisa naho ziri mu cyumba cy'ishuri, zicayemo umwana umwe w'umukobwa afite igitabo ari kwiga, ari wenyine ntabandi banyeshuri barimo.

Abanyeshuri bari kwiga, bafite amakaramu n'amakayi, kwiga ni byiza cyane, bikunzwe n'abatari bakeya, abantu benshi bakunda bose kujyana abana babo mu ishuri, kugira ngo bagire ubumenyi.

Abanyeshuri bari kwiga, umutima wabo ushishikariye kwiga kuko kwiga ni byiza. Bashyize hamwe ni benshi bambaye amashati y'umweru hasi bambayemo umutuku.

Umwuga w'ubutayeri uteje imbere urubyiruko rutari rukeya, abanyeshuri bishyize hamwe, basa n'aho bari kudodera ahantu hamwe nko ku isoko, bari kudodera abantu bakabaha amafaranga bakabateza imbere.

Abanyeshuri bari kureba ibikoresho by'ikoranabuhanga, no mu bubaji n'u bwubatsi bari kubireba abenshi ni abakobwa, bambaye ijipo ya kaki n'amashati y'umweru bameze neza barakeye nta kibazo bafite.

Uburezi buteye imbere mu Gihugu cy'u Rwanda abanyeshuri baricaye bari kwigaga bambaye yambaye imyenda y'imyeru bose bari kurebera hamwe ibiyigisho babahaye.

Abantu bambaye ibisurubeti by'ubururu, bambaye n' ingofero z'umuhondo, basa naho ari abafundi ,bahagaze ku nyubako y'amatafari ahiye, imbere yabo hariho n'ikiduki kirimo amazi.

Uburezi buteye imbere abanyeshuri baricaye, imbere yaho hariho umwarimu uri kubigisha. Aho abantu benshi bashabukiye kuzana abana babo mu ishuri, kugira ngo bige ni bo bazagira iterambere rirambye.

Abaganga babiri bambaye za ga mu ntoki n'amutaburiya y'imyeru n'ingofero mu mutwe zisa, basa n'aho bari kuvanga umuti, wagira ngo bagiye gukingira inka.

Akazi k'ubukanishi ni akazi keza cyane, gateza imbere abantu batari bake. Abantu bambaye ibisurubeti by'icyatsi, bari gukanika kugira ngo babone amafaranga, yo kubateza imbere mu ngo zabo, kugira ngo nabo bibesheho.

Umugabo afashe ikaramu ari gushushanya ikintu ikintu kimeze nk'umutwe w'umuntu yambaye ikoti rya kaki nkuntaro yiryo koti arimo ishati y'umweru.

Abantu bambaye ingofero z'umuhondo n'ibisarubeti by'ubururu, bafite za metero mu ntoki bari gupima nkaho ari ababaji. Bahagaze bose bari kurebera hamwe igikorwa cyabo bagiye gukora.

Abana batoya basa naho bari muri garidiyene baricaye bari kwiga bambaye imyenda isa, isa n'ubururu, bamwe ni abahungu abandi ni abakobwa.

Abantu bari kubaza bari mu isabumara, bambaye ikabutura zitandukanye umwe n'umuhondo undi n'igikoboyi y'ubururu bambaye imipira zisa n'icyatsi bafashe amaranda barikubaza.

Abanyeshuri b'abakobwa bambaye iforume z'ubururu, n'umweru ,icyatsi, n'ubururu ,bicaye ku byarahani byabo. Kwiga imyuga biteye imbere, abakobwa biteganyirijemo, ubudozi buzabateza imbere mu gihe kizaza.

Abanyeshuri benshi abakobwa n'abahungu, bafashe amakaramu n'amakaye bari kwandika ,bamwe bafite ibisuko mu mutwe abandi bafite udusatsi dukeya ku mutwe, bunze ubumwe bari kwiga kugira ngo ejo hazaza habo babe bazi ubwenge.

Abanyeshuri baricaye barishimye, imbere yabo hateretseho amasahani hariho ibiryo by'ibishyimbo n'imiceri bambaye iforume z'ubururu n'iz'umweru.

Abanyeshuri bahagaze, bafashe igishushanyo bashushanyije, basa naho bari ku kereka abandi bantu barishimye, bari kwishimira igikorwa bakoze ko ari cyiza.

Umukobwa wicaye yambaye isengeri, yambaye ubusa mu bitugu yashokoje yambaye n'ishapule, ameze nk'umuntu urigusoma ibitabo cyangwa ari kwandika.

Abana bicaye hamwe basa naho ari abanyeshuri bambaye iniforume umwe afashe mikoro basa naho bari kuririmba muzu ubumwe barishimye nta kibazo bafite.

Abanyeshuri benshi bambaye iniforume amajipo y'ubururu, n'amashati y'umweru. Bari gukoma mu mashyi, barishimye kubera ko bafite iterambere ryo kwiga.

Umwuga wo gufotora utunze abatari bakeya. Abasore barifite amafotogarafi yo gufotora abantu. Aho ubukwe bwabaye, ni bo bajya gufotorayo, ahantu hose habaye ubukwe, baba bahatashye, bakahakura amafaranga.

Abanyeshuri benshi bashishikariye kwiga amasomo y'ubukorikori bw'imyuga, kugira ngo bazabashe kwiteza imbere. Abanyeshuri bari kudoda kuko ubudozi butejeje abatari bakeya imbere, ubudozi buzana amafaranga menshi.

Abanyeshuri bari kwiga ikoranabuhanga bari muri raboratwari, imbere yabo hariho umwarimu uri kubigisha, kuko yambaye itaburiya y'umweru, yambaye n'ingofero y'umweru, n'abanyeshuri bambaye imyenda y'umweru, bari kwiga ikoranabuhanga muri raboratwari.

Abasore babiri bambaye amataburiya ya kaki, n'imipira igiye kuba nk'umweru ariko atari umweru ukeye, bafashe ibikoresho mu ntoki basa n'aho bari gusudira ibintu.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru, asa naho ari umuveterineri. Imbere ye hariho ibintu bisa naho ari, imiti ari kureba kugira ngo azayivurishe.

Abanyeshuri bari kwiga, bambaye imyenda isa y'umweru amashati , imbere yabo hariho umwarimu uri kubigisha, bicaye hamwe amakaye yabo arambitse ku meza.

Uburezi ni bwiza cyane, umunyeshuri aricaye ari kwiga ibijyanye n'ikoranabuhanga ,abanyeshuri benshi bakunze kwiga ikoranabuhanga, kuko ariryo terambere abantu benshi bari kwerekeramo.

Abanyeshuri bicaye bari kurebana, bafite ibitabo ku meza. Umwarimu wabo ahagaze hagati ari kubasobanurira ibintu barandika. Kwiga ni byiza cyane kuko abantu benshi bakunda kwigisha abana babo, ni wo munani baba babageneye.

Abantu biga ubukorikori, abagore n'abakobwa baricaye bari kuboha ibyibo bitatse amabara. Bimwe bifite amabara y'umuhondo n'ubururu. Bari kuboha ibyibo imitemeri bizabateza imbere nibabigurisha.

Umukobwa n'umusore ,bicaye bambaye amashati asa n'amajipo yirabura, bicaye bari gukoresha mashini bari kwiga ikoranabuhanga kuko bigezweho.

Abanyeshuri bambaye udupfukamunwa, bamwe bambaye, babiri bambaye udupfukamunwa tw'umukara, undi yambaye agapfukamunwa k'ubururu. Imbere yabo hariho imashini bari kwiga ibijyanye n'ikoranabuhanga, umwe yambaye umupira w'umuhondo, undi yambaye ishati y'umweru, undi yambaye ishati y'umweru.